Ese wari uzi ko ibyago n'impanuka bidateguza? Gura turi kumwe ubwishingizi buciriritse bw'ubuzima, Ushobora kubugura ukoresheje telefone yawe ngendanwa. Ukanze akanyenyeri gatanu gatatu rimwe urwego. Cyangwa ugahamagara kuri nimero itishyurwa : cumi n'umunani icumi. Cyangwa ukaba wahamagara kuri telefone : zeru karindwi iminani ibiri mirongo itatu n'umunani icumi mirongo icyenda na gatatu, mu gihe ukeneye ibisobanuro birambuye.

Uyu ni umuntu urimo urimamaza arimo aramamaza sonarwa, sonarwa ni ikigo gitanga ubwishingizi ku bantu batandukanye haba mu bwo kwivuza, haba ubw'ibinyabiziga, haba ku bw'inkongi y'umuriro arimo arayamamaza ko ikora ibintu byiza ifasha mu bintu bigiye bitandukanye, ifasha abantu muri situwasiyo zigenda zitandukanye mu buzima bwa buri munsi, ubwishingizi ni ikintu buri wese akeneye mu buzima kuko ngo ibyago ntibiteguza buri wese akeneye ubwishingizi.

Iki ni icyapa cya saniramu ifasha abantu mu kuba bakwizigamira, bakazigamira izabukuru zabo, bakazigamira ejo habo hazaza, bakazigamira abana babo, bakazigamira ibinyabiziga byabo, ndetse n'amazu yabo ndetse n'ubuzima bwabo, rwose bakubwira ko ukoresheje saniramu abayifitiye icyizere mu buzima kuko ntigutenguha iragufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi igihe ugize ikibazo wizigamira muri saniramu bakugoboka byihutirwa.

Iyi ni muri company nziza cyane ikwigisha mu kuba wazigama bayita purayime inshuwarensi. Ikwigisha kuba wateganyiriza ejo hawe hazaza, wateganyiriza abawe ndetse n'ibyawe, ikwigisha kuzigamira abawe, abantu turi kureba kuri iki gishushanyo hariho umukobwa n'umuhungu rwose banezerewe basa nkaho bazigamye bigacamo, barimo barabwirana bati rwose ibyo twazigamiye ni byiza, imbere yacu ni heza kuko twazigamye.

Ikigo cyiza gitanga ubwishingizi ku buzima, ibinyabiziga. Rinda umuryango wawe ugura ubwishingizi bw'ubuzima, turi kumwe nawe, kanda akanyenyeri, gatanu, gatatu, rimwe, urwego, ukoresheje telefone yawe ngendanwa ube wabasha kugura ubu bwishingizi, cyangwa wifashishe urubuga rwa,"www.radiantyacu.rw", ube wabasha kumenya amakuru arambuye, ugire ubwishingizi bwiza kuri wowe n'abawe.

Ibi ni ibikomo ndetse n'ibinigi bituruka mu masaro. Iki ngiki ni ikigaragaza ko amasaro yavamo ibintu bitandukanye:wayakoresha imitako, wayakoresha wakoramo imyenda wa kwambara, wakoramo n'ibinigi ushobora kuba wakora wambara ugiye ahantu kugirango usa neza wakoramo ibikomo wakwambara ku maboko biturutse mu masaro kandi bisa neza mu mabara atandukanye.

Burya ibikoresho bimwe na bimwe dusuzugura bivamo imitako myiza ndetse n'imiringa abenshi dukunda, wari uziko amasaro yavamo ibintu bitandukanye ibikomo, ibinigi, imyambaro runaka, udukapu abenshi bakunze kugendana mu ntoki, wari uziko se mu biti babazamo ibikoresho bimwe na bimwe bikavamo imitako dugutegura mu mazu yacu hakaba hasa neza.

Wasanga ujya wibaza uti nkeneye kujya mu bukwe mu nama ahantu hiyubashye nakura he ikote n'inkweto ndetse n'ibindi bintu bijyanye n'imyenda yiyubashye y'abagabo? Igisubizo cyarabonetse goludeni fashoni shopu yarabikemuye ushobora kuhaasanga amakote meza, inkweto z'ubwoko bwose, ikintu icyo ari cyo cyose wifuza kijyanye n'imyambaro yo kuba waririmbana ugiye ahantu hasirimutse hiyubashye twakirerebyeho.

Iri ni iduka ricuruza ibintu bitandukanye bikozwe mu masaro, ibikozwe mu migwegwe, imyambaro itandukanye ibakozwe mu biti n'iduka kuko rigaragaza umuco w'abanyafurika harimo ibintu byinshi abanyafurika bikorera bakoresheje ibintu by'iwabo muri afurika harimo imyambaro, harimo amashape bitera, harimo ibintu byinshi bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, udukapu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, imitako mbese n'ikigaragaza ko iri duka ukeneye umuco w'abanyafurika wabahasanga.

Sinzi niba ubizi ko kwambara ukaberwa ari ukugaragara neza, ari ubusirimu? Aha hari iduka ryiza, ririmo imyenda itandukanye, amashati meza, amapantaro meza, amasengeri, imyenda y'ubwoko bwiza, ku giciro cyiza kandi imyenda ijyanye n'igihe, utapfa gusangana undi muntu uwo ari we wese, ari byo bita ngo umusirimu yambara imyenda ye yihariye. Hagane rero, uhagere ,urebemo, ni iduka ryiza ririmo imyambaro myiza, ushobora kuba utasanga ahandi hantu.

Buriya ngo iyo wambaye neza ugaragara neza, aha mu isoko ry'imyenda itandukanye turabonamo imipira, turabona imyenda myinshi igiye tandukanye, imwe irazinze indi imanitse ku twuma twabugenewe bamanikamo imyenda, turabonamo abantu babiri basa nk'aho aribo bacuruza iyi myenda. Ahangaha ni isoko ryiza kandi rigezweho ushobora kujyamo ukaba wagura umwenda wose wifuza.

Iri ni duka ricuruza imyenda ikozwe mu bitenge, ibintu byinshi bitandukanye bikozwe mu bitenge, hari intebe ikozwe mu gitenge, hari imyambaro ikozwe mu gitenge, hari udukomo duteretse ku meza dukozwe mu bitenge, hari imiruwari ndende ikozwe mu gitenge, hari ibikorwa byinshi byagiye bikorwa mu gitenge, ni ikigaragaza ko igitenge kiranga umuco w'abanyafurika, ari ikintu wakuramo ibintu byinshi bitandukanye, kandi byiza.

Cyo kimwe n'abandi bagenzi bacu wasanga nawe wibaza ute ese nakurahe ikinyabiziga cyiza kijyanye n'igihe akagera motozi karahabaye ,ushobora kuhagera ukakura ikinyabiziga cyiza kirambye, gifite isuku kandi batanga garanti y'igihe kinini .Aha ngaha turahabona abagabo babiri ,umwe yaje kugura imodoka biragaragara ko bamuhaye urufunguzo rufunguye imodoka, turahabona ama modoka abiri ari mu bwoko bwa yama modoka atwara imizigo bisa nk'aho ariyo amaze kugura hanyarukire nawe wigurire.

Aha ni ahaparikwa amamodoka aho tubona haparitse amamodoka menshi ari mu bwoko bumwe ,n'amamodoka y'imyeru ,inyuma yaho turabona amazu maremare dukunze kwita muri etage ,hari ibiti turahabona abagabo babiri basa nkaho umwe arimo arerereka mugenzi we ,ni ahantu ubona ko habugenewe mu guparika amamodoka hanazitiye ndetse ubona ko rwose ari umwanya wagenewe guparikwamo aya ma modoka y'ubwoko bumwe kandi asa ,ameze nk'aho ari nk'uruganda rukora amamodoka bakaza bakayaparika.

wasanga ujya wibaza uti kuri miliyoni umunani gusa nabona ikinyabiziga cyo gutwara kuri miliyoni umunani gusa wabona yundayi sonati hybrid bibiri nacumi na kabiri kuri miliyoni umunani zamanyrwanda ni imodoka nziza ubonako nshyashya ni imodoka ifite imyanya ine yo kwicaramo ni imodoka ubonako ifite amatara meza ifite ibirahuri byiza ni imodoka ubonako kandi ijyanye nigihe

Ushobora kuba utazi aho wakura imodoka nziza akagera motozi ni uruganda rugira amamodoka meza kandi mashyashya ku giciro gito, ahangaha turahabona abagabo babiri umwe ahereza undi urufunguzo runini rufungura imodoka yiguriye, hagane uhasure urebe ibicuruzwa bafite ibinyabiziga bafite ni ahantu heza ushobora kubona ikinkinyabiziga cyose wifuza kandi ku giciro gito.

Miliyoni makumyabiri n'eshanu reka zigure imodoka. Wakwibaza uti miliyoni makumyabiri n'eshanu zagura ikinyabiziga cyo mu buhe bwoko? Toyota hayirandi, hayiburidi, bibiri na cumi na kabiri, iri mu mabara y'umukara, imodoka ubona ko ari ndende, ifite imyanya itanu yo kuba wakwicaramo, ni imodoka nshyashya kandi nziza, imodoka nziza zigezweho kandi zijyanye n'igihe.

Iyi ni imodoka y'umweru ifite amapine yumukara iri mu bwoko bwa toyota, ni imodoka ubona ko ari imodoka nshyashya nziza iri mu modoka nshyashya kandi zigezweho, ni imodoka ifite amatara meza wa ubona ko ari imodoka nshyashya, uramutse uyigendeyemo yaba ari imodoka yagufasha kuba wava aho uri ukagera aho ugiye mu gihe gito kandi wizeye ko yakugezaho neza ko n'imodoka ubona ko igifite ubuziranenge kandi nziza.

Iki ni igiceri cyanditseho amagambo ni banki nkuru y'u Rwanda, bisobanura ko iki igiceri ari icyo mu Rwanda, gishushanyijeho ikigori, ikigori ni ikiribwa abanyarwanda bakunze guhinga ndetse cyanditseho n'umwaka cyakorewe, cyakozwe muri bibiri na cumi na rimwe iki ni igiceri umuntu ashaka gukoresha ajya guhaha ibintu bitandukanye, agura ibintu bitandukanye.

Uyu ni umuntu waje kuri banki asa nk'aho yaje kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga ye, mu imbere turahabona umugore wicaye usa nkaho akora muri iyo banki arimo aramufasha muri iyo gahunda yajemo yo kuba yabitsa cyangwa akabikuza amafaranga ye, uyu mudamu arimo arabara amafaranga ye ubona ko ni mama witeze igitambaro mu mutwe yambaye ikanzu y'igitenge rwose ubona ko anejejwe na serivisi bari kumuha.

Iyi noti yakozwe na banki nasiyinari y'u Rwanda ni amafaranga ijana, ni amafaranga ashushanyijeho umudamu uhetse umwana, ndetse afite inkoni ishushanyijeho amashyamba ni inote y'ijanashobora kuyikoresha ugura ibintu bitandukanye, ushobora kuyikoresha wishyura ibintu bigiye bitandukanye mu buzima bwa buri munsi.

Uyu ni umucuruzi w'amata acuruza amata abenshi tuzi mu mazina bita ikivuguto, ni amata y'inka ariko aterekwa neza akamara iminsi runaka kugira ngo avemo ikivuguto, biragaragara ko arimo arayasuka mu birarahure, ashaka guhereza abakiliya be amata meza ameze neza, arimo akoresha akabido, iruhande rwe hateretse ijage, ibirahuri byo biteretse ku ma purato kugira ngo bimufashe kuba yahereza abakiliya neza.

Ntibikigoye, biroroshye cyane, wibereye iwawe mu rugo nawe wakora amandazi cyangwa ibyo benshi tuzi ku mazina bita ibidufu, ukoresheje ibikoresho bigiye bitandukanye, amata, amazi, ifarini iva mu ngano, amagi ndetse n'ibindi, ushobora kwikorera amandazi aryoshye kandi anogeye ijisho, iwawe mu rugo, afite isuku, ntabwo bikiri ngombwa ko ujya kuyahaha ku isoko cyangwa ahandi, nawe iwawe mu rugo wayikorera.

Isoko rifite ibicuruzwa bitandukanye by'imitako yakorewe mu Rwanda, harimo uduseke twinshi n'imitako yo mu ijosi, n'imitako yo kumanika mu nzu harimo n'ibibumbano bigiye bitandukanye n'udutebo.

Aha ni aho bacururiza amata hicaye abantu bicaye ku ntebe barimo baranywa amata bakoresheje ibirahure banaganira, rwose ubona ko bishimiye ibyo barimo baranywa bishimiye ibiganiro barimo baraganira ni umudamu n'abasore babiri barimo baranywa amata.

Ese waruziko ukoresheje telefone yawe ngendanwa ushobora kuba wakohereza amafaranga, ukabitsa ndetse ukabikuza, ukizigama ukaba wakigurira amayinite yo guhamagara, amayinite ya interineti, ukareba amafaranga usigaranye kuri konti yawe? Kanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu n'agatanu ushobore kuba wagenzura ibyo bintu byose ukoresheje telefone yawe.

Ese wari uzi ko bitakiri ngombwa kugendana amafaranga mu ntoki? Ukoresheje telefone yawe ngendanwa ushaka gukora ibikorwa byinshi bitandukanye, ushobora kohereza, ushobora kubitsa, ushobora kubikuza, ushobora no kwizigama. Dawunirodinga momo apu, ibyo bikorwa byose nakubwiye hejuru, ubashe kuba wabikora kuko byaroroshye cyane kuba wakora ibyo bintu byose kandi mu kanya gato cyane, ukoresheje telefone yawe ngendanwa.

Ese wari ubizi ko ukoresheje telefone yawe ushobora kuba wakohereza amafaranga, wakwishyura inyemezabwishyu zawe zitandukanye, wagura amanite muri telefone yawe, wakwishyura ibicuruzwa bitandukanye, wasaba inguzanyo, wareba kuri konti yawe, wasaba ubufasha runaka ukoresheje telefone yawe, hamwe na Emutiyeni momo ushobora kuba wakora ibikorwa bigiye bitandukanye hamwe na telefone yawe ngendanwa.

Iyi ni kampaniy bita sipeni ikwigisha kuba wazigamira abana mu gihe cy'amashuri, kuko hari igihe uba uri mu bintu byinshi ufite byinshi byo gukora ariko buriya iyo ufashe umwanya ukajya wi kuzigamira, igihe cy'amashuri biragufasha mu gihe abana bawe bagiye gutangira, kuba utahura n'ibibazo gihe cyo kubishyurira kuko uba warabazigamiye, uba warizigamiye nawe bikakurinda ibibazo wahura nabyo mu gihe cy'itangira ry'amashuri. Iyi ni rero ni kampani nziza igufasha mu kuzigamira abana bawe.

Iyi ni inote y'amayero, ni amayero magana atanu, ni amafaranga akunze gukoreshwa mu bihugu by'Uburayi, za Erope, za Faranse, ni amafaranga inaha mu Rwanda ntabwo dukunze kuyakoresha ariko mu gihe aba banyamahanga batuyeyo, barayazana natwe tukaba twabona kuri ayo mafaranga, ni amafaranga ari mu mabara y'umweru, hagiye hariho ubururu, ari mu mabara atandukanye.

Byaroroshye cyane ubu ngubu ntago bikiri ngombwa yuko ushobora kwibaza ngo ese mfite amafaranga atandukanye n'ayo mfite mu icyo gihugu nabigenza guteH hari ahantu haba harabugenewe ugenda ugatanga amafaranga yawe ayo ari yo yose, ayo mu gihugu runaka ukomokamo, bakaba bayakuguranya bakayakuvungira ku giciro kiza bakaguha ayo muri icyo gihugu urimo. Byaroroshye cyane aho waba uri hose amafaranga yaba ayo ariyo yose barakuvungira ku giciro kiza.

Wasanga nawe koko utaramenya ko buriya igiti gishobora kuvamo ibintu byinshi bitandukanye. Igiti ni ikintu ushabora kubyazamo umusaruro mu bintu byinshi bitandukanye. Aha turahabona umutako mwiza cyane ushobora guterekaho n'utundi dutako twinshi tugiye dutandukanye wakozwe mu giti, warabajwe neza barangije bawusiga irangi ryiza; ubundi umuntu arawumanika mu nzu ye, ashyiraho utundi dutako dutandukanye, ubona ko unogeye ijisho kandi ujyanye n'igihe.

Igiti buriya cyavamo ibikoresho byinshi bitandukanye, iyi ni imeza ndetse ifatanye n'intebe zavuye mu biti, ni byiza cyane byafasha abantu benshi mu kuba bakwicara kandi bakicara neza, inyuma ya turahabona amazu yubatse, turahabona itente turahabona udukoresho tugiye dutandukanye, ariko biragaragara ko igiti ari ikintu cyagira akamaro, mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Mureke tubungabunge ibidukikije, mureke tureke kwangiza amashyamba, kuko amashyamba avamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ese wari uziko buriya igiti gishobora kuvamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye? Havamo ibikoresho byiza byo mu nzu dukoresha mu zima bwacu bwa buri munsi, byiza cyane kandi bikomeye binaramba. Izi ni intebe nziza cyane, zakozwe mu biti, ziratunganywa neza, zishyirwamo imifariso yo kuba abantu bakwicaramo, ubona ko zijyanye n'igihe kandi zigezweho.

Izi ni intebe zikozwe mu mbaho abenshi dukunze kuzikoresha mu gihe turimo turafata amafunguro, izintebe ziva mu biti barabifata bakabibaza bamara kubibaza bakabitunganya neza barangiza bakabisiga amarangi meza ashashagirana kugira ngo bizavemo ari byiza kandi bisa neza, abantu babe babigura babikoreshe mu gihe bakoramo intebe zo baganiraho barya nk'umuryango.

Ese wari uziko igiti cyavamo ibintu byinshi kandi byiza bitandukanye? Aka ni akabati keza kandi gakozwe mu biti, kiriya ni igitanda na cyo gikozwe mu biti, urabona ko gishashe neza. Aka kabati gateretseho amavazi meza cyane, imwe irimo indabyo. Iyi ni isaha nziza cyane iterekwa iruhande rw'igitanda, ushobora kwifashisha mu gihe uryamye ugashyiramo ijwi rikaba ryakubyutsa ukajya mu mirimo yawe ya buri munsi.

Aha ni ahantu nyaburanga abantu bakunze kuba bakwicara bakaganira, hatuje, hari intebe ziteye neza ziri ku murongo, harimo ameza ateretseho udutako twiza dutandukanye, ushobora kuba wafata umuntu cyangwa umushuti wawe mukaba mwagenda mukicara mukahaganira, wahakorera inama zitandukanye, hari akazuba keza, ni ahantu ubona ko hari ibiti bizana akuka keza, hejuru hari imitaka ubona ko ari ahantu heza hajyanye...

Iyi ni inzu ndende urabona ko yenda gukabakaba mu kirere, abenshi tuyimenyereye ku izina rya etaje. Iyi ni inzu yubatse neza, turabona ibirahure, turabona amarange ayisize, ni amarange ajya kuba umuhondo, rwose urabona ko ari inzu ijyanye n'icyerekezo, ni inzu ifite ibirahure, ni inzu imbere yayo hamanitse idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, ni inzu ubona ko ari nziza ijyanjye n'igihe kandi ubona rwose ko yubatswe mu buryo bugezweho.

Wasanga nawe ujya wibaza uti ese nkeneye kuryama heza, nkeneye gusohokera ahantu heza, nkeneye kugirubusabane n'umuryango wanjye, nkeneye kugira inama zitandukanye najya he? ibyo byarakemutse mariyoti hoteri yabaye igisubizo cy'ibyi bibazo byose ni ahantu ushobora kujya ukahasanga ibyokurya byiza, ukahasanga ibyo kunywa byiza, ugasanga ibyumba byiza, ukahasanga ahantu h'urwogero heza, ni hoteri nziza kandi ijyanye n'igihe ifite buri kimwe cyose umuntu yakenera.

Ese wari uzi ko hari ahantu heza ushobora kwicara ukaba watembera? iyi ni imwe muri resitora nziza ushobora kwicara ugatemberamo n'umukunzi wawe n'umuryango wawe mukaba mwahafatira ibyo kurya ndetse nibyo kunywa bitandukanye kandi mwicaye ahantu heza hafite isuku ubona ko rwose ari n'ahantu hajyanye n'igihe, ubona ko harimo intebe nziza, ameza meza, ibirahure bifite isuku kandi byiza, aha ni ahantu heza rwose ni resitora nziza ushobora kwicaramo ukumva uranezerewe.

Uru ni urwogero rugezweho, iruhande rwarwo turahabona intebe ebyiri z'imikara zihateretse bikikijwe n'ibiti, inyuma yaho turahabona inzu ariko turahabona icyapa kigaragaza ko rutemerewe gukoreshwa, abantu benshi barukoresha bakora imyitozo ngororamubiri yo koga kandi ngo ni imyitozo myiza ifasha umubiri.

Za nzu ndende kandi nziza, ni inzu tubona ko hano iri mo imbere, harimo amatara meza, harimo intebe nziza, hari ibirahuri byiza, ni ahantu ubona ko hafite amakaro meza, hafite isuku, harimo amavazi meza arimo indabo nziza, ni ahantu ubona ko rwose uramutse uhicaye waba wumva utekanye kandi utuje.

Iyi ni inzu ndende abenshi dukunze kwita etaje, ni inzu ubona ko yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, izitije ibyuma ahantu henshi hatandukanye, ni inzu ubona ko ifite amarangi meza ijyanye n'igihe, abenshi tuzi ko ibamo amacumbi, ikabamo ahantu haba amaresitora abantu baba bakeneye kurya bakarya, habamo imyidagaduro itandukanye, ibyo kurya, ibyo kunywa bitandukanye, ibintu byinshi bikorerwamo, haba hari abakozi bashinzwe kuba bakwitaho.

Iyi ni inzu bita Kigali Konvesheni Senta, ituranye n'indi bita Radisoni Buru. Ni amwe mu mahoteli meza cyane u Rwanda rufite, iyi nzu iba yakamo amabara y'idarapo ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda, Ni inzu amahanga menshi yahururiye kubera ukuntu yubatse, ni inzu yubatse neza, ni inzu ijyanye n'igihe kandi ni inzu buri munyarwanda wese areba agaterwa ishema no kuba ari umunyarwanda.

Ishami rishinzwe ubucuruzi, kandi rinini cyane rifasha abaguzi kuba bagura bisanzuye mu gihe bakeneye ibyo kurya, bakaba babibona mu buryo bworoshye cyane.

Aha ni mu isoko ry'imboga, turahabona imboga z'ubwoko bugiye butandukanye, harimo aba barimo barazicuruza, harimo inyanya, harimo intoryi, harimo amapavuro, harimo indobo bifashisha bapima iyo myaka yabo bazanye, hari ibirungo bitandukanye, abantu bifashisha mu guteka, bigaragara ko ari isoko ry'ibiribwa, ry'imboga, ry'imbuto, isoko nyine ubona ko ryagufasha mu kuba wahaha imboga zawe ukoresha mu rugo.

Iri ni isoko ryiganjemo imboga, turahabona inyanya, turahabona intoryi, turahabona imiteja, turahabona karoti, turabonamo ibitunguru, amapavuro, ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye, harimo abadamu barimo baracuruza, abandi bahaha, bigaragara ko igitsina gore cyahawe agaciro, bashobora kuba bakora, bagakorera amafaranga yabo kandi bakiteza imbere mu buryo bugiye butandukanye.

Uyu mubyeyi yicaye mu isoko aracuruza ibicuruzwa bitandukanye, aracuruza imbuto n'imyumbati ni ibihingwa bihingwa mu Rwanda bitera imbaraga, ubona ko rwose ni umubyeyi usa nk'aho yishimiye ubwo bucuruzi arimo yambaye agatambaro mu mutwe icyatsi, yambaye ishati y'amabara imbere yashyizeho igitambaro cy'umukara kugira ngo ataba yakwanduza imyenda ye mu gihe ari mubu bucuruzi.

Uyu ni umudamu ukora ibintu bijyanye no gutunganya amafi, ibi abenshi bakunze kwita ngo ni ibinyenyanja ni ibiribwa bituruka mu mazi arimo arayatunganya ayakura mu mazi amwe ayashyira mu yandi mazi akoresheje amabase, iruhande rwe hari ingorofani hirya ku ruhande hari abantu basa nkaho aribo bayaroba, uyu mudamu aricaye arimo arayategura kugira ngo atunganywe abe yaribwa.

Abantu benshi harimo umugabo wambaye ishati ijya gusa umutuku imbere ye hari mudasobwa n'icupa ry'amazi biteretse ku meza, iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'amarinete, mbere yewe hari icupa ry'amazi ndetse n'igikapu cy'umukara, iruhande rw'iwe nawe hari umugore wambaye ikanzu y'umukara iciye amaboko, imbere yiwe hari icupa ry'amazi na mudasobwa biteretse ku meza.

Ese warubizi ko ukoresheje telefone yawe ngendanwa ushobora kuba wahaha ibicuruzwa bitandukanye. Urubuga rwitwa rutsi Rwanda ni urubuga ugenda ukarufungura ukaba warukoresha uhaha ibicuruzwa bigiye bitandukanye imyenda y'abadamu ,ibikoresho by'abana, ibikoresho ushobora gukoresha ukora imyitozo ngorora mubiri ,impano uhereza abantu ,imyenda y'abagabo, ibikoresho bigiye bitandukanye rusure hanyuma ubashe kwihahira ukoresheje telefone yawe ngendanwa.

Iki ni ikibanza cyiza kigurishwa, kiragurishwa miliyoni cumi n'eshanu, hano mu mujyi wa Kigali, aho bita Musave, Bumbogo. Ni ikibanza ubona ko gituranye n'amazu meza, yubatswe mu buryo bugezweho, ni ikibanza ubona ko kisanzuye, kiri ahantu heza, ubona ko rwose iki kibanza gituranye n'ibiti, iruhande rwaho turahabona ibiti biterewe gutanga akayaga keza, ni ikibanza ubona ko uramutse ukiguze waba utuye neza kandi heza.

Iyi ni inzu nziza yubatse kabeza mu mujyi wa Kigali imbere hari umuhanda w'igitaka rwose ifite amapave mu rugo ifite urupangu rusa umukara n'andi mabarabagiranamo imbere hari amadirishya y'imye ifite amabati atukura ni inzu yubatswe mu buryo bugezweho, hari akajarite gafite ibyatsi byiza imbere yayo ni inzu isize amabara y'umukara rwose nizu ubona ko yubatse mu buryo bwa kijyambere bugezweho.

Ushobora kuba wibaza uti ku bihumbi manatanu mirongo itanu by'amadorari ku kwezi mu Rwanda nabona ahantu ho gutura? Yego rwose birashoboka. Ni amazu meza cyane yubatse kuburyo bugezweho muri za nzu ndende abanshi tuzi ku mazina ya etaje inzu zijyanye n'igihe zubatse neza, zifite ahantu baparika ibinyabiziga hanini kandi hisanzuye , ni inzu ubona ko uyituyemo waba utuye neza witegeye umujyi wose wa Kigali, hagane uhagere urebe maze uture heza.

Hari igihe wibaza ngo miliyoni ijana na mirongo itatu z'amafaranga y'u rwanda zagura iki hanomu mujyi wa kigali? Aha hari inzu nziza hano mu mujyi wa kigali ushobora kuba wagura miliyoni ijana na mirongo itatu z'amanyarwanda n'inzu ifite ubwiherero bwiza, ifite parikingi nziza iri yonyine muri rupangu, inzu yubatse bijyanye n'igihe kandi igezweho. Iherereye kabeza mu mujyi wa kigali rwose ni inzu ifite ibyumba bibiri nziza cyane ushobora guturamo n'umuryango ukaba utuye heza.

Ntucikwe cyangwa ngo ukererwe kuri miliyoni mirongo icyenda neshanu hano i Kanombe mu mujyi wa Kigali hari inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ifite aho baparika ibinyabiziga ahantu hisanzuye wakoreka imodoka eshatu ahantu hanini hisanzuye kandi heza n'inzu nziza, ifite inzugi nziza, ifite imiryango myiza, ifite amarangi meza, afite amatara meza, yubatse mu buryo bwa kijyambere hanyarukire nawe wirebere udasanga bayiguze.

Aha barimo baratwereka icyo miriyoni eshanu zagura muri Kigali, hano mu Rwanda. Hari igikoni cyiza cyane gifite utubati twiza turi mu mabara y'umweru, hasi hari utundi tubati twiza turi mu mabara y'umukara, hari aho wogereza ibyombo, hasi hari amakaro meza hejuru hari purafo nziza zimwe zijyanye n'igihe, hari umuryango mwiza. Bigaragara ko iki gikoni uramutse ugiteyemo, ni ukuri wahatekera ibyo kurya byiza kandi bifite isuku.

Ushobora kwibaza uti miliyoni ijana na mirongo ine nabona inzu yo kugura umujyi wa kigali? Birashoboka cyane hano i kanombe mu mujyi wa kigali ahegereye ku kibuga cy'indege ushobora kuhabona inzu nziza cyane y'akataraboneka yubakishijwe ibikoresho byiza; ifite aho baparika ama modoka heza, ifite ububaraza bubiri ako hasi nako hejuru ushobora guhagararaho ukareba kigali yose uyitegeye, ifite aho baparika imodoka hanini kandi hisanzuye, ninzu ifite imiryango myiza n'amadirishya utuye neza burya atekereza neza.

Kuri miriyoni ijana na mirongo itatu z;amanyarwanda watunga inzu nawe, hano mu mujyi wa Kigali hari inzu nziza, ifite amakaro meza ajyanye n'igihe, ifiteimiryango minini yisanzuye, ifite amatara meza, ifite parafo nziza ni inzu nziza cyane yisanzuye ni inzu ubona ko yubatse bijyanye n'igihe, kuri miriyoni ijana na mirongo itantu z'amanyarwanda watura heza kandi utekanye.

Kacyiru m'umujyi wa Kigali ni ahantu buri wese aba yifuza gutura ariko nakuboneye inzu ku cyatanu cy'amadorari ushobora guturamo hano muri Kacyiru ni inzu nziza ijyanye n'igihe ifite amadirishya meza, ifite inzugi nziza, ni inzu ubona ko yubatse bijyanye n'igihe ifite umutekano ifite amakaro meza irisanzuye nta rusaku hano muri Kacyiru ku cyatanu cy'amadorari gusa wabona ahantu ho guturara kandi heza.

Wasanga ujya wibaza ngo igihumbi cy'amadolari ngifite nabona gutura mujyi wa kigali yego birashoboka Kibagabaga mu mujyi wa kigali wahabona inzu nziza yo guturamo ku mafaranga igihumbi cy'amadolari, inzu iri ku muhanda ifite urupangu rwiza, iri yonyine mu rupangu ifite utubaraza twiza, ushobora kureberaho umujyi wose wa Kigali inzu ifite indabyo nziza yubatse neza mu buryo bwa kizungu bumwe bugezweho ni inzu ifite umutekano uramtse iyituyemo waba utuye heza.

Iyi ni inzu nziza iherereye Kimironko mu mujyi wa kigali iragurishwa miliyoni mirongo ikenda n'eshanu ariko mukaba mwabiganiraho, ni inzu nziza ubona ko ibazwa mu buryo bugezweho ni inzu ifite amakaro meza amadirishya meza inkuta nziza yubatswe ku buryo bwa kijyambere bugezweho, hagati mu rugo harapavomye hameze neza cyane ni inzu ubona ko ijyanye n'igihe kandi uyituyemo waba utuye heza.

Inyubako ikora ibijyanye no kwakira abantu, bakabona ibyo kurya ndetse ikabaha amacumbi, yegeranye na komvesheni senta iri mu Rwanda.

ku bihumbi magana atandatu by'amanyarwanda ku kwezi wabona inzu yo gukodesha mu mujyi wa kigali kimironko, inzu ifite ibyumba bine ifite ubwiherero butatu munzu ,inzu iri yonyine mu rupangu inzu ifite aho baparika imodoka hisanzuye kandi heza ,ifite jaride kuhande ni nzu yubatse bijyanye n'igihe ifite imiryango myiza ifite amadirishya meza, amakaro meza ni nzu isa neza, ni inzu ubona ko ijyanye n'igihe kandi utuyemo waba utuye neza kandi heza.

Iyi ni inzu ikodeshwa ibihumbi maganatatu mirongo itanu hano muri Kanombe i Kigali, ifite ibyumba bine ifite dushe na tuwalete eshatu ni inzu ubona ko ari nziza ijyanye n'igihe, hariho nimero wabahamagara uramutse ukeneye kuyikodesha, ifite amakaro meza ifite purafo nziza, ifite amatara meza, ifite inzugi nziza, ni inzu koko ubona ijyanye n'igihe uramutse uyituyemo waba utuye heza kandi hagezweho.

Iyi ni inzu nziza ijyanye n'igihe, ni inzu ikodeshwa iherereye i kigali kimironko, ni inzu ifite ibyumba bibiri, ifite ubwiherero mu nzu, ni inzu iri yonyine mu rupangu, irakodeshwa ibihumbi magana atatu ku kwezi. Aha baratwereka igikoni cyiza cyane kijyanye n'igihe, gifite ububati bwometse ku gikuta ifite aho bogereza ibyombo, ifite amadirishya meza, ifite prafu nziza zikoze neza cyane.

Wasanga urimo uribaza uti nakurarahe inzu yo gukodesha mu mujyi wa kigali, reka nkurangire inzu nziza mu mujyi wa kigali iherereye i kanombe, ni inzu y'ibyumba bine ifite ubwiherero butatu, ni i inzufite ahantu waparika ikinyabiziga cyawe hisanzuye, ni inzu ifite amakaro meza, ni inzu yonyine mu rupangu, ni inzu ubona ko yubatswe mu buryo bwiza bwa kijyambere, ifite amadirishya meza ifite ahantu ho kuba wakwisanzura aho bita mu gikari hanini kandi hafatika hanyarukira urebe.

Reka turebere hamwe ngo amadorari mirongo itatu natanu yampa ahantu ho kurara? yego birashoboka kubona ahantu ho kura hano mu mujyi wa Kigali ku madorari mirongo itatu n'atanu ku ijoro rimwe, ni ahantu heza hari imiryango miremire yisanzuye ushobora guhagararamo rwose ukareba Kigali ukuntu iba imeze nimugoroba. Ni ahantu ubona ko hari parikingi nini waparika ikinkinyabiziga cyawe cyisanzuye, ni ahantu ubona ko hatuje kandi hatekanye.

Aba ni abagore ndetse n'abagabo barimo bararahirira igihugu cy'u Rwanda ku mugaragaro yuko inshingano zibahaye bazazikora neza kandi n'imbaraga zabo zose kandi banyujije mu kuri, bafashe ku mabendera y'u Rwanda bazamuye akaboko k'iburyo buri wese afite indangururamajwi imbere ye, arahirira u Rwanda ku mugaragaro yuko inshingano igihugu kimuhaye azazikora neza kandi ntagamiye nabirengaho azahanwe.

Iyi ni inyubako ndende yagenewe ubucuruzi abenshi tuzi ko ari etage. Ahangaha ni inyubako usanga harimo ubucuruzi bugiye butandukanye usanga harimo aho bacururiza imyenda, aho bakorera ibikoresho bigiye bitandukanye ahakorerwa ama serivisi agiye atandukanye ahangaha turabona ko hari aho bacuruza imyenda, hari aho bacuruza imyambaro y'abana iyabakuru hakorerwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku buryo uhageze ushobora kubona ikintu cyose wifuza.

Iri ni amwe mu masoko meza agezweho yorohereza abantu kuba bahaha ibintu byinshi bitandukanye kandi bakabihahira hamwe. Uyu ni umumama cyangwa igitsina gore wambaye inkweto zifunze yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umutuku, arimo arahaha yifashishije akantu kaba kameze nk'indobo bahahiramo, iyo ugeze muri iri soko barakaguka ukagenda ushyiramo ibyo wahashye kugira ngo bikorohere mu buryo bwo kubitwara.

Aba ni abari mu nzego z'umutekano umwe ni umupolisi undi ni umusirikare, bigaragara ko barimo barakora akazi kabo bareba ku mashini, uyu mudamu arimo arerereka umupolisi mugenzi we amwereka mu mashini, barimo baraganira ubona ko banezerewe, igitsina gore rwose cyahawe ijambo kiri mu nzego zifata umwanzuro, bari mu mutekano bigaragara ko ari ibintu byiza u Rwanda rwagezeho.

Hari igihe utinya kwinjira mu maduka manini abenshi tukunze kumenyera ko hari amasoko amwe n'amwe aciriritse ariko hari amaduka manini akorera ahantu haba ha ameze nko mu nzu, ushobora kugeramo ukabonamo ibicuruzwa byose kandi ku giciro gisanzwe, hari abibazaga aya maduka manini ibiciro byayo biba biri hejuru bitewe n'uko asa neza afite isuku kandi ajyanye n'igihe. hoya. Injiramo ni ahantu usanga ibikoresho byiza ibicuruzwa byiza bijyanye n'igihe kandi byiza bitararenza n'igihe cyabugenewe cyo gukoreshwa.

Ahangaha hari umuhanda mwiza cyane, kandi munini kuburyo ushobora kujyamo ibinyabiziga birenze kimwe, harimo umugabo utwaye umuzigo urimo umufuka munini cyane, awutwaye ku igare ari kugenda n'amaguru uyu muhanda kandi ukikijwe n'ibiti byiza cyane, hakaba hari n'uruzitiro rufite ibara ry'icyatsi bigaragara ko hirya hari kubera ubwubatsi butandukanye, kandi harimo n'itara rimurikira ibinyabiziga nijoro.

Ishami rishinzwe ubucuruzi, kandi rinini cyane rifasha abaguzi kuba bagura bisanzuye mu gihe bakeneye ibyo kurya, bakaba babibona mu buryo bworoshye cyane.

Iri ni isoko ry'ibicuruzwa bitandukanye harimo ibicuruzwa bijye bitandukanye ibikinisho by'abana, ibyo kurya, ibintu bitandukanye hari umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara harimo abakobwa babiri bambaye imipira y'imihondo bigaragara ko iriho momopeyi mu buryo bugezweho bwo kwishyura, hari umukobwa urimo uratambika wambaye imyenda y'imikara harimo abantu bahaha bigaragaza ko u rwanda rwateye imbere harimo amasoko agiye atandukanye wajyamo ugaha ibintu byinshi bitandukanye.

Iri ni isoko ryiza mu masoko agezweho, ubona ko ryubatse mu buryo bwa kijyambere, ni isoko riba ricuruza ibintu bitandukanye ariko aha mu mwanya ucuruzamo ibyo kunywa bitandukanye, harimo imitobe, harimo udusembuye, bigaragara ko iyo ugeze muri uyu mwanya, ushobora kuba wabonamo umutobe cyangwa agasembuye waba wifuzako ari kose, ni iduka ubona ko rifite amatara meza, amakaro meza, ni iduka ubona ko rwose urimo uba unezerewe kandi ukabona icyo ushaka cyose.

Ese wari uzi ko hari isoko ryiza kandi rigezweho ushobora kujyamo ukabona ibicuruzwa byose wifuza? Iri ni isoko ryiza mu masoko agezweho ushobora kujyamo, ukabona ibikoresho byiza wifuza mu buzima bwa buri munsi, ibyo wakoresha ukora isuku, ibyo kurya, ibyo kunywa, aha ngaha turahabona ibyo kunywa bitandukanye, imitobe udusembuye, aha tuhabona ibikoresho by'isuku bitandukanye, amasabune dukoresha muri dushe. Aha ni ahantu ugera ukabona buri kimwe cyose, kandi ubona ko hafite isuku n'umutekano uhagije.

Ntibikigoye habe na gato aho hari amasoko meza ya kijyambere ushobora kujyamohahira ibicuruzwa bigiye bitandukanye ku giciro cyiza kandi utagombye kujya muri yaya masoko aciriritse aya ni amasoko meza ya kijyambere agezweho aba afite amatara meza abafite amakaro meza aba arimo ibicuruzwa ibyo aribyo byose wakwifuza ibiribwa ibinyobwa ibikoresho by'isuku imyambaro ibyo aribyo byose waba ibyo kunywa bikonje ndetse n'ibishyushye byose urabibona muri aya masoko.

Iri ni isoko ryiza mu masoko meza agezweho, aha ngaha turahabona ibyo kunywa bitandukanye, imitobe y'amoko atandukanye, aha ngaha ni ahantu mu isoko rya kijyambere rigezweho, aho ushobora kuza ukeneye ibyo kunywa bitandukanye, imitobe itandukanye ifasha umubiri, hariya turahabona ibyuma by'imashini bikoreshwa mu kuba byakonjesha ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, mu gihe ukenera igikonje na cyo ukaba wakibona.